Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, bitabiriye inama, irebera hamwe uruhare rwabo mu kwihutisha iterambere ndetse no kugera ku ntego y'igihugu y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi kandi bafite udukayi, bari kwandikamo ingingo nyamukuru zizweho muri iyi nama.

Abantu biganjemo abapapa, n'abamama, mu cyumba cy'inama, imbere hari amazi yo kunywa, impapuro zo kwandikaho, bicaye bategereje, kumva icyo barimo kubwira.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye bicaye neza ku ntebe z'umweru ndetse imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umweru, hateretseho uducupa tw'amazi, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umwe mu bitabiriye iyi nama, akoresheje insakazamashusho iri inyuma ye, aho anyuza ingingo zitandukanye agenda azisobanura.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta bateraniye hamwe, mu cyumba cy'inama cya Kigali komvesheni senta aho bicaye bakikije ameza ateguyeho ibitambaro by'umukara, imbere yabo hari ibirahure birimo amazi, bakurikiye imbwirwaruhame y'umwe mu bayobozi bitabiriye inama.

Abaturage bahuriye hamwe mu nama n'ubuyobozi bwabo, hari umugabo wambaye kositime n'ipantaro y'umukara ufashe indangururamajwi arimo asobanurira ingengo y'imari abaturage izakoreshwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, makumyabiri na gatanu; hareberwa hamwe niba ntabyo babona byakongerwamo kugira ngo bashyirwe ku isonga.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego zitandukanye, bicaye bazengurutse ameza afite ibara ry'ikigina, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hateretse mudasobwa, amaterefone, udukapu ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze umuntu akenera iyo yagiye ahantu, bakurikiye imbyirwaruhame iri gutangwa n'umwe mu bayobozi bumva ibitekerezo ndetse n'inyuganizi ari gutanga.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abantu benshi bungurana ibitekerezo aho bicaye bazengurutse ameza afite ibara ry'ikigina, imbere ya buri umwe hari indangururamajwi yifashisha mu gihe agiye gutanga igitekerezo cyangwa inyunganizi, hateretse kandi agacupa k'amazi imbere ya buri muntu.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye bicaye bakikije ameza, imbere yabo hateretse mudasobwa, imbere ya buri muntu kandi hari agapapuro kagaragaza izina rye ndetse n'ikigo yaje ahagarariye, barimo bungurana ibitekerezo, imbere yabo kandi hari insakazamashusho bose barimo kureberaho ibyigwa.

Abayobozi mu nzego za Leta zitandukanye, bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, bungurana ibitekerezo harebwa icyakorwa kugira ngo iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'umuturage rizamuke, cyane cyane umuturage abigizemo uruhare, aho bari kumva imbwirwaruhame y'umwe mu bayobozi bateranije iyi nama.

Inama yahurije hamwe Minisitiri wa Siporo ndetse n'urubyiruko n'abayobozi bafite siporo mu nshingano ku nzego zitandukanye barimo bungurana ibitekerezo ku munsi wahariwe siporo yo kwiruka ku maguru mu mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Nyuma yaho hari icyapa cyanditse mu ibara ry'umukara, kiriho ibirango by'ibendera ry'u Rwanda ndetse cyanditse n'amagambo mu ibara ry'umweru, aho Minisitiri wa Siporo afashe indangururamajwi arimo kubagezaho imbwirwaruhame.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta bahuriye mu cyumba cy'inama baganira ndetse bungurana ibitekerezo harebwa icyakorwa kugira ngo iterambere ry'umuturage ryihutishwe kandi abigizemo uruhare bakurikiye inbwirwaruhame iri gutangwa n'umwe mu bayobozi buri wese kandi afite agacupa k'amazi yifashisha mu gihe agize inyota

Abayobozi mu kigo runaka bateraniye hamwe, bari mu kanama kihuse, biga ku byo babona bitagenda neza, bicaye bakikije ameza afite ibara ry'ikigina, imbere yabo hateretse mudasobwa, impapuro, uducupa tw'amazi, ndetse umwe muri bo arimo kureba muri mudasobwa asobanurira bagenzi be,

Abayobozi mu nzego za Leta zitandukanye, cyane cyane biganjemo urubyiruko; aho bahuriye mu cyumba cy'inama, bicaye bazengurutse ameza ateguyeho ibitambaro by'umweru; imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi; ndetse umwe muri bo afite indangururamajwi arimo gutanga igitekerezo cy'uko yumva we byakorwa, kugira ngo iterambere ry'urubyiruko rigerweho vuba.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi bo mu nzego zo hejuru, bicaye bakikije ameza, ateguyeho ibitambaro by'umukara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, amakayi ndetse n'amakaru. Bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umwe mu bayobozi batumije iyi nama.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye bahateraniye hamwe ngo bungurane ibitekerezo ndetse banaganire ku cyakorwa mu iterambere ry'umuturage rikomeze gushyirwa imbere, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku bazengurutse ameza ariho ibitambaro by'umweru, imbere yabo hateretse udushupa tw'amazi ndetse umwe muri bo ari gutanga imbwirwaruhame.

Umugabo w'inzobe wambaye amarinete y'ikoti ry'umukara, n'ishati y'umweru ndetse na karuvati ya marongorwa. aho yitabiriye inama yahuje abayobozi mu nzego zitandukanye bungurana ibitekerezo barebera hamwe uruhare rwa buri wese mu kuzamura iterambere n'imibereho myiza by'abaturage.

Urubyiruko rwitabiriye inama yaruhuje hamwe n'abayobozi barwo baganira barebera hamwe uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu, bicaye neza mu ntebe z'imikara bateze amatwi, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, bakurikiye imbwirwaruhame y'umwe mu bayobozi.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za Leta, bitabiriye inama yabahurije hamwe kugira ngo bunguranre ibitekerezo barebe icyakorwa kugira ngo imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere ryabo birusheho kuzamuka. Bicaye ku ntebe z'umweru bakikije ameza bateguyeho ibitambaro by'umukara, imbere yabo bateretse uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa.

abaturage bateraniye hamwe mu nteko rusange bungurana ibitekerezo harebwa uruhare rwa buri muturage mu kugera ku mihigo bihaye mu mwaka wa 2024 aho umuyobozi w'akagari arimo kubagezaho im imbwirwaruhame abandi bamuteze amatwi

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu ngeri zitandukanye bose bicaye bakoze uruziga bazengurutse ameza, bicaye ku ntebe z'umweru ndetse bafite uducupa tw'amazi, aho barimo kungurana ibitekerezo ku ngingo zateguwe kuganirwaho bareba icyakorwa na buri rwego bireba ngo umusaruro biteze ugerweho.

Abayobozi mu nzego za leta, bahuriye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi, arimo kubabwira ingingo nyamukuru zabateranirije aha ngaha, abandi bicaye ku ntebe nziza z'umukara bazengurutse ameza, imbere yabo kandi hari mudasobwa, impapuro, amakayi, ndetse n'amakaramu.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego zitandukanye aho bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umwe mu bayobozi batumijeho inama bamuteze amatwi, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi ndetse bose bakurikiye imbwirwaruhame y'uyu muyobozi.

Abamama babiri bicaye ku ntebe zikoze mu byuma bicaye imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru hateretse telefone ndetse n'uducupa tw'amazi, umwe muri bo afite indangururamajwi arimo gutanga ibyirwaruhame bigaragara ko akurikiwe n'abitabiriye inama bahuriye muri iki cyumba.

icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta aho baganira n'urubyiruko harebwa uruhare rw'urubyiruko mu kuzamura iterambere ry'igihugu imbere yabo hateretse ameza adiho ibitambaro by byumweru n'kigina hateretse kandi uducupa tw'amazi ndetse n'impapuro zitandukanye umwe muri bo yazamuye ikiganza kugira ngo atange igitekerezo cy'iyumba kirakorwa

Umugore wambaye ikanzu ifite amabara atandukanye ndetse n'agakoti k'umukara, ahagaze imbere y'abantu arimo gutanga imbwirwaruhame afashe indangururamajwi mu ntoki ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, arimo akurikiwe abari bitabiriye iyi nama bahurijwe mu cyumba cy'inama ahantu runaka.

Aayobozi mu Nzego za Leta bahuriye hamwe mu cyumba k'inama, bicaye ku ntebe z'umukara bakikije ameza afite ibara ry'ikigina; imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi, imbere ya buri muntu kandi hari indangururamajwi yifashisha mu gihe agiye gutanga igitekerezo cyangwa se inyunganizi, ayigeza kuri bagenzi be.

Abayobozi mu nzego zitandukanye z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda reveni otoriti, ubwo bari bahuriye mu nama bareba uko ingengo y'imari y'umwaka ushize ihagaze ndetse bareba niba intego bari bafite barazigezeho. Bicaye bazengurutse ameza afite ibara ry'ikigina, imbere yaho hateretse uducupa tw'amazi ndetse hari n'insakazamashusho nini yari yagiyeho ibyapa n'ibirango by'iki kigo.

Abayobozi b'umujyi wa Kigali bahuriye mu cyumba cy'inama bicaye bakikije ameza afite ibara rya shokora, imbere yabo hari indangururamajwi kuri buri wese ndetse hateretse n'agacupa k'amazi, barimo kumva igitekerezo cy'umwe muri bo kuri gahunda y'isuku mu mujyi wa Kigali nka kimwe mu biranga umujyi wa Kigali.

Iicyumba cy'inama kirimo intebe, zifite ibara ry'umukara n'amezaza afite ibara ry'ikigina, cyahuriyemo abayobozi mu nzego zitandukanye za leta, bungurana ibitekerezo, imbere yabo hari indangururamajwi, zifashishwa mu gihe umuntu akeneye gutanga igitekerezo cyangwa inyunganizi.

Abayobozi ndetse n'abaturage bahuriye hamwe kugira ngo bungurane ibitekerezo mu nama yari yabahurije, yabereye mu cyumba cy'inama giherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kigali komvesheniseta. Inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ingingo nyamukuru baganiragaho ndetse barimo gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego zitandukanye za Leta. Bicaye bazengurutse ameza manini, imbere ya buri wese hari icupa ry'amazi ndetse n'icupa ry'umutobe. Imbere ye kandi hari indangururamajwi yifashishwa mu gihe agiye gutanga ibitekerezo cyangwa inyunganizi, abigeza ku bitabiriye iyi nama.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye bahuriye hamwe mu cyumba k'inama baganira ku ngingo zitandukanye zigamije iterambere ry'abaturage, imbere ya buri muyobozi hari indangururamajwi yifashishwa mu gihe agiye gutanga igitekerezo cyangwa inyunganizi abisangiza abari muri nama bicaye, kandi buri wese afite mudasobwa imbere ye hateretse icupa ry'amazi.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, cyatanzwe n'urubuga rw'irembo, ahatangirwa serivisi za leta zitandukanye, harimo nko gusaba ibyangombwa ndetse no kubihabwa bidasabye ko umuntu ajya aho ibigo bya leta runaka bikorera, ahubwo akabikora yifashishije uru rubuga rw'irembo.

Umunara munini cyane wubatswe n'ibyuma bifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ikikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma, iruhande rwawo hahagaze abantu benshi, iyi minara yifashishwa na sosiyete itanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda, mu kugeza ku bakiriya babo serivisi nziza, binyuze kuri iyi minara iri hirya no hino mu gihugu.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Reveni Otoriti, mu rwego rwo korohereza abaturarwanda by'umwihariko abasora kubona serivisi z'iki kigo, bidasabye ko bajya aho gikorera, ahubwo bakifashisha telefoni igendanwa, mudasobwa mu kubona izo serivisi.

Icyapa cyatanzwe na minisiteri ifite abakozi ba leta n'umurimo mu nshingano ku munsi mpuzamahanga wahariwe umurimo, aho iyi minisiteri yifurije abakozi bose umunsi mwiza w'umurimo ndetse inabagezaho insanganyamatsiko y'uwo munsi, aho yagiraga iti turushasheho guteza imbere ubumenyi n'umurimo unoze byo nkingi y'iterambere rirambye.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, gishushanyijeho terefone, cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Reveni Otoriti, aho cyashishikarizaga abaguzi kwaka inyemezabwishyu za IBM, bagahabwa igihembo cy'icumi ku ijana, kuri buri nyemezabwishyu batse y'agaciro kayiriho.

Icyapa cyamamaza cyatanzwe n'umuryango utegamiye kuri Leta wa ILO Afurika, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, ubwo cyashishikarizaga abantu kugerageza guhanga imirimo hubahirijwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo gitanga serivise z'imari mu Rwanda cya l&M, aho rworohereje abakiriya rubaha uburyo baka serivise zimwe na zimwe zitangwa n'iki kigo, bidasabye ko bajya aho ikigo gikorera ahubwo bakabikora bifashishije mudasomwa cyangwa telefone ngendanwa.

Icyapa cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gitsura amajyambere mu Rwanda RDB, aho cyagaragazaga ko bafite imyanya itandukanye muri iki kigo, bityo cyerekana inzira zakurikizwa ku bashaka gusaba akazi kuri iyi myanya kugira ngo bajyane ibyangombwa byabo bityo banahatane babe babona akazi.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge (RSB), aho rwashyiriweho mu rwego rwo korohereza abaturage ndetse n'abandi basaba serivisi muri iki kigo, kubona zimwe na zimwe muri serivisi z'ikigo badakoze urugendo bajya bagikorera; ahubwo bakazisaba bakoresheje mudasobwa cyangwa telefone ngendanwa.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu gishushanyijeho ibinyabiziga bitandukanye bya moto ndetse n'imodoka cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, ubwo cyibutsaga abaturarwanda bose ko itariki ntarengwa yo kumenyekanisha umusoro w'ibinyabiziga ari mirongo itatu n'imwe ukuboza.

Telefone ni kimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho kandi byoroshya akazi, yaba mu gutanga serivisi ndetse no kazamura n'ubukungu bw'Igihugu. Abaturarwanda bakangurirwa kugura telefone ngendanwa cyane cyane izigezweho zikoresha murandasi kugira ngo ibikorwa byabo bya buri munsi byihute ndetse n'iterambere rizamuke.

Abagabo bahagaze hamwe baganira ndetse bakoresha amatelefone yabo. Hagati yabo bahagaze umunyamakuru urimo agenda ababaza uko bumva ko ingingo zitandukanye muri zimwe mu zasesenguwe mu nama bari bitabiriye. Iruhande rwaho hari inyubako nyinshi zitandukanye, ndetse hari n'amapironi atwara umuriro w'amashanyarazi.

Abantu biganjemo urubyiruko, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, babikoresha mu gukora serivise zitandukanye.

Icyapa kigaragaza inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bya serivisi hibandwa cyane cyane ibikoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo nko kumenyekanisha imisoro, gufotoza impapuro, gusaba ibyangombwa bimwe na bimwe hifashishijwe urubuga rw'Irembo, gufotora ndetse n'ibindi.

Icyapa cyamamaza kigaragaza ibigo bitandukanye bya leta, harimo nk'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti n'ibindi bitandukanye bigaragazwa n'ibirango byabyo ndetse bifite inshingano zitandukanye zo gusavinga abaturage.

Apulikasiyo yashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda Rwanda Reveni Otoriti. Mu rwego rwo korohereza abasora, kumenya amakuru ajyanye n'imisoro yabo, harebwa niba nta birararane cyangwa bamenye amakuru ajyanye n'imisoro bagomba kwishyura.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru cyatanzwe n'urubuga rukorera kuri murandasi rw'Irembo, aho cyamenyeshaga abaturarwanda bose ko muri serivisi gitanga hiyongeyemo izindi serivisi nshyashya.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda imigiresheni, ahatangirwa serivisi zimwe na zimwe z'iki kigo bidasabye ko abantu bajya aho ikigo gikorera ahubwo bakazisaba bifashishije mudasobwa cyangwa na telefone ngendanwa ndetse bakazihabwa, ibi bikarinda urujya n'uruza rw'abantu bajya kuri iki kigo ndetse bikazamura ireme n'imitangire ya serivise myiza.

Ibirango by'ikigo gishinzwe guteza imbere imiyoborere myiza mu rwanda RGB, aho iki kigo gifite mu nshingano gukurikirana niba abayobozi mu nzego za leta zitandukanye ndetse n'abikorera bimakaza ihame ry'imiyoborere myiza, batanga serivisi nziza ku bo bakorera.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe abinjira n'abasohoka Imigirasheni, aho rwashyizweho mu rwego rwo korohereza abasaba serivisi muri iki kigo, aho bitakiri ngombwa ko bajya aho ikigo gikorera ahubwo bahabwa zimwe na zimwe muri serivisi bifashishije ikoranabuhanga yaba telefone cyangwa se mudasobwa.

Umunara munini cyane ukozwe n'ibyuma bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, wifashishwa n'ibigo bitanga serivisi z'itumanaho mu kugeza hirya no hino ku bakiriya serivisi nziza hifashishijwe iyi minara, aho iba ijya kure cyane hirya no hino mu gihugu.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba RFA, rutangirwaho serivise zitandukanye mu rwego rwo korohereza abasaba serivise muri iki kigo bakifashisha ikoranabuhanga, bifashishije mudasobwa cyangwa telefoni mu gusaba zimwe na zimwe muri serivise zitangwa n'iki kigo.

Isomero rigezweho rya kijyambere aho bitakiri ngombwa ko ibitabo byose biba ari ibifatika mu ntoki, ahubwo bimwe na bimwe biba biri kuri mudasobwa bikorohereza ababitanga ndetse n'ababikenera kubisoma bitabagoye. Hagaragara mudasobwa nyinshi, ndetse n'abantu barimo gusoma bifashishije uburyo butandukanye.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda mu rwego rwo korohereza abakiriya bacyo ndetse n'abandi bose basaba serivisi muri iki kigo, bityo bakabona serivisi nziza kandi inoze badakoze urugendo bajya aho ikigo gikorera, ahubwo bakazibona bifashishije ikoranabuhanga rya mudasobwa cyangwa se telefoni igendanwa.

Umunara munini ukozwe n'ibyuma bifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru byifashishwa n'ibigo bitanga serivisi z'itumanaho kugeza hirya no hino ku bakiriya babo serivisi nziza hakoreshejwe iyi minara ibiri mu bice bitandukanye by'igihugu.

Umunara muremure cyane ukozwe mu byuma bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, wifashishwa n'ibigo bitanga serivisi z'itumanaho mu kunoza serivisi biha abakiririya babo bifashishije iyi minara iba iri hirya no hino mu gihugu, ibi bikazamura imibereho myiza ndetse n'itumanaho risesuye.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ikoranabuhanga bakoresha mudasobwa, bambaye udupfukamunwa ndetse barimo gufashwa n'umwarimu wabigenewe abereka uburyo bakora, ibi bikazamura ireme ry'imyigishirize aho abana batozwa gukoresha ikoranabuhanga bakiri ku ntebe z'ishuri.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, cyatanzwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Reveni Otoriti ubwo cyayoboraga abasora bose, yaba abafite nimero iranga ndetse na batayifite uburyo bakoresha kugira ngo bahabwe nimero iranga ibikorwa byabo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi, telefone na mudasobwa, afashe indangururamajwi mu ntoki ndetse ari gukora ku cyapa cyanditseho ijambo byikorera, ibi akaba ari ubukangurambaga bwakozwe na leta y'u Rwanda aho ishishikariza abaturage kumenya uko bakwisabira zimwe na zimwe muri serivisi bifashishije ikoranabuhanga.

Umunara muremure cyane wubakishijwe ibyuma bifite ibara ry'umutuku ndetse n'iry'umweru. Uyu munara ukikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma, iruhande rwawo hari ipoto rinini bitwara umuriro w'amashanyarazi. Iyi minara yifashishwa n'imiyoboro itanga serivisi z'itumanaho Rwanda kugeza ku bakiriya bayo serivise, binyuze ku minara iri hirya no hino mu gihugu.

Ubukerarugendo ni kimwe mu gisata cy'ubukungu cyashyizwemo imbaraga nyinshi na leta y'u Rwanda, aho igenda imenyekanisha hirya no hino ku isi ikangurira abatuye amahanga gusura u Rwanda bakareba ibyiza nyaburanga, muri uku kwamamaza bifashishije amakipe amwe na mwe y'i burayi ndetse no kwamamaza mu bikorwa bikomeye nk'imikino ihuririza hamwe amakipe n'ibindi.

Icyapa cyatanzwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho bwamenyeshaga abaturarwanda bose gahunda cyazanye yatengamarara na teveya, aho umucuruzi yiyanyandikisha hanyuma akazajya asaba inyemezabwishyu y'imashini ya ibiyemu ku bicuruzwa yaguze bikamuhesha amahirwe yo kubona ibihembo bingana n'icumi ku ijana byayo yishyuye.

Ipironi rinini rikoze mu byuma, rifasheho insinga nyinshi z'amashanyarazi zijya mu byerekezo bitandukanye, iri pironi ryifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo abahatuye biteze imbere bakora ibikorwa bitandukanye bikenera umuriro w'amashanyarazi.

Amapironi akoze mu byuma atwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi awujyana hirya no hino mu bice by'igihugu, ni kimwe mu byifashishwa n'ikigo gishinzwe ingufu n'amashanyarazi mu Rwanda mu kugeza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu, kugira ngo abahatuye biteze imbere bakora ibikorwa bitandukanye harimo n'ibikenera umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako nziza zubatse zikurikije ibipimo byatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire mu Rwanda. Imbere y'izi nyubako kandi hari ubusitani bwiza, hari umuhanda munini wa kaburimbo ndetse n'ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi ukwirakwiza hirya no hino, aho abaturage batuye ku mudugudu kandi bagerwaho n'ibikorwa remezo byose.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga binjira muri gare y'Akarere ka Muhanga, aho kandi hari inyubako zizengurutse gare zimanitseho ibyapa bitandukanye bigaragaza serivisi z'ubucuruzi zitangirwa muri ayo mazu, iruhande rwaho kandi hari ipoto ritwara umuriro w'amashanyarazi riwukwirakwiza hirya no hino mu gihugu, ndetse n'amazu afatiraho umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako y'ubucuruzi ndende igice kimwe ni ibirahure ikindi kirubatse bisanzwe, imbere yaho hari ipoto ririho itara ryo ku muhanda.

Abakozi b'ikigo gishinzwe ingufu n'amashanyarazi mu Rwanda cya REG, ubwo bari bambaye impuzankano yabo ibaranga bari mu kazi ko guteranya amapironi manini yifashishwa mu gukwirakwiza umubariro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu nka kimwe mu bikorwa remezo by'ibanze bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Ipoto ndende cyane ikoze mu cyuma, inyujijeho insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu, ibi bikazamura imibereho myiza y'abaturage hirya no hino mu gihugu, aho bagerwaho n'ibikorwa remezo byiza, ndetse bibafasha kwiteza imbere mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, harimo nk'ubucuruzi bw'ibikapu, matera ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu, iruhande rwayo kandi hashinze ipoto iriho amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, ibi bigafasha abakoresha umuhanda, gukomeza gukora akazi kabo mu mutekano usesuye.

Ipoto yafasheho insinga nyinshi, zitwara umuriro w'amashanyarazi mu byerekezo bitandukanye, aho yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu gihugu. Iruhande rwayo haridi poto ndende, iriho kamera yifashishwa mu gucunga umutekano wo mu muhanda, aho ibireba ko ibinyabiziga byose biri gukoresha umuhanda, biri kubahiriza amategeko nk'uko abiteganywa.

Ipironi rirerire rikozwe mu byuma rifashe mu insinga zitandukanye, zijya mu byerekezo bitandukanye by'igihugu, aho yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, avanwa ku rugomero agezwa hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu, kugira ngo ababituye bagerweho n'ibikorwa remezo by'umuriro mwiza ndetse n'amashanyarazi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye hibandwa cyane ku by'ubugeni bikorwa n'ababaji, aho bafata imbaho bakazitunganyamo ibikoresho dukenera mu buzima bwa buri munsi nk'intebe, ibitanda, utubati, ameza n'ibindi bitandukanye.

Inyubako nziza cyane zifite igisenge cy'umutuku, ndetse zisize' amarangi'mweru. Izi nyubako zikikijwe n'ubusitani bwiza cyane, burimo ibiti by'inganzamarumbo bimeze nk'imikindo. Bikikijwe kandi n'urukuta rwubakishije amatafari meza ku muhanda wa kaburimbo. Iruhande rwawo kandi hari amapoto akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, muri ibi bice ugezwa ku baturage. Ibi bikagaragaza imiturire myiza ku mudugudu hubahirizwa kubaka ahabugenewe.

Ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi riziritseho insinga zitandukanye n'utwuma twohereza umuriro w'amashanyarazi ku baturage.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'amashanyarazi REG. Aho yambaye impuzankano yabugenewe, kandi ahagaze ku rwego ari kumanika urutsinga rutwara umuriro w'amashanyarazi hejuru ku ipoto. Ibi bikaba ari bumwe mu buryo bwifashishwa mu kugeza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ipoto rinini cyane, rifasheho insinga zitwara umuriro amashanyarazi, ririho kandi itara rimurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, iruhande rwaryo hari ibiti byinshi cyane bigaragara ko bikikije umuhanda, aho bizana umuyaga ndetse bikanarimbisha umuhanda.

Amapoto abiri ateretseho icyuma kizwi nka taransifo aho kigabanya cyangwa kikongera umuriro w'amashanyarazi bitewe n'ingano y'ukenewe ibi byuma bikaba bigaragara hirya no hino mu gihugu mu bice bigerwamo n'umuriro w'amashanyarazi nka bumwe mu buryo bwo kwirinda impanuka zaterwa no gukoresha umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga mu byerekezo byombi, ukikijwe n'amashyamba agizwe n'ibiti byiza cyane. Ibi bizana isura nziza y'umujyi ndetse ukanazana umwuka mwiza abantu bahumeka. Iruhande rwayo kandi hari amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi, awugeza mu bice bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Ibi bikazamura imibereho myiza y'abahatuye bagerwaho n'ibikorwa remezo bitandukanye.

Umuhanda munini wa kaburimbo nyabagendwa wagenewe ibinyabiziga, hari imirongo yagenewe abanyamaguru bambukiramo igihe bambuka, iruhande rw'umuhanda kandi, hari akayira kateganyirijwe abanyamaguru bakoresha umuhanda, haragaragara urujya n'uruza rw'abantu bagenda banyurana ndetse bakoresha umuhanda bajya mu ngendo zabo zitandukanye.

Amapoto yifashishwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'amashanyarazi mu Rwanda, aho akoreshwa mu kugeza umuriro mu bice bitandukanye by'Igihugu, kugira ngo abahatuye biteze imbere ndetse bazamure n'imibereho myiza yabo.

Amapironi akozwe mu byuma yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu, awukura ku rugomero awugeza hirya no hino mu gihugu. Aho wifashishwa mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage, bakora ibikorwa bitandukanye bibateza imbere, nk'ubudozi, ubwogoshi n'ibindi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abaturage babona serivisi zitandukanye z'ubuzima, nko gusuzumwa, kubona imiti n'izind. Hagaragara abaturage bari ku murongo bahabwa serivisi, aho abagezweho baho serivisi bahagaze ku idirishya ritagirwamo serivisi. Ibi bikanoza imitangire ya serivisi, hakurikizwa kugendera ku uwaje mbere, nta kimenyane cyangwa se ukundi kurobanura.

Inyubako nini cyane isize amarangi y'umuhondo ndetse ifite igisenge cy'umutuku, imbere yayo hamanitse ibendera ry'u Rwanda ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane. Inyubako ikoreramo ibitaro bya CHUB ndetse iruhande rwayo haparitse imodoka eshatu z'imbangukiragutabara zifashishwa mu gutanga ubutabazi bwihuse.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo, kigaragaza inyubako ziri imbere, zifite igisenge cy'umutuku ndetse zisize amaragi y'umweru, kuko zikorerwamo n'ibitaro bya CHUB, aha ni hamwe mu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi bwimbitse, kuko ari ibitaro byo ku rwego rwa Kaminuza.

Umuhanda nyabagendwa uri imbere mu bitaro unyurwamo n'abanyamaguru, bagenda bajya gushaka serivisi zitandukanye mu bitaro, iruhande rw'akayira kandi hari ubusitani bwiza bukikije aka kayira, ibi bikagaragaza isura nziza y'ibitaro, ibitaro kandi bitangirwamo serivisi zitandukanye nko gusuzuma, gufata ibizamini, gutanga imiti n'ibindi.

Abadamu bahetse abana bakurikiye umugabo uri imbere yabo wambaye itaburiya yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, aho kandi afite n'ibikoresho byifashishwa muri uyu mwuga. bigaragare ko arimo guha serivisi aba babyeyi baje kuvuza abana babo. Ibi bikazamura imibereho myiza yabo ndetse n'imitangire myiza ya serivisi.

Icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye y'icyatsi ndetse n'umukara, kigaragaza ko ari inyubako ikoreramo ibitaro bya Kabgayi, aho bizwiho serivise yo kuvura amaso. By'umwihariko, aho haruguru iruhande rwabo kandi hari uruzitiro rugizwe n'indabo nyinshi, ndetse n'umuhanda munini wa kaburimbo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ndende cyane ifite amagoro menshi imbere yayo hari umuhanda mwiza cyane wagenewe ibinyabiziga ndetse n'akayira k'abanyamaguru, iruhande rwayo kandi hari ubusitani bwiza cyane bugaragaza ubwiza bw'inyubako ndetse bikongera gusa neza kwayo.

Abaturage bahuriye hamwe mu nteko rusange bicaye bakurikiye urubanza rw'umwe mu bakoze ibyaha bitandukanye yambaye impuzankano ahagaze imbere yabo, arimo kwiregura ku byaha ashinjwa, mu baturage kandi hari abayobozi b'inkiko gacaca barimo kumva uruhande rw'uregura ndetse n'ibyashinjwa bumva n'butangabuhamya bw'abaturage.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru kiriho ibirango bitandukanye, kimanitse ku marembo magari kimenyesha abakoresha umuhanda ndetse n'abandi bose ko aho ari mu Igororero rya Rwamagana, ahashyirwa abantu bakoze ibyaha bitandukanye kugira ngo bakosorwe ndetse bigishwe indangagaciro, hanyuma bazasubizwe muri sosiyete nyuma y'igihe runaka.

Abagabo babiri bahagararanye bose bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye umwenda w'ubushinjacyaha ugizwe n'ikanzu y'umukara, ifite ibara ry'umweru, ahagararanye n'umugabo wambaye impuzankano igaragaza abakekwa cyangwa bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, aho barimo kuganira ku rubanza bitabiriye ndetse barebera hamwe uburyo baza kuruburana.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru na karuvati ifite amabara y'ubururu n'umweru, imbere ye hateretse indangururamajwi arimo kugeza imbwirwaruhame ku bamuteze amatwi, inyuma ye hari insakazamashusho ifite ibara ry'ubururu irimo kwifashishwa mu gutanga ibitekerezo ndetse anerekana ingingo nyamukuru ziganirwaho.

Urupapuro rwo mu gitabo cy'igazeti y'u Rwanda, aho haba hakubiyemo amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, ndetse n'uwakoze icyaha akaba ahanishwa igihano gikubiye mu ngingo z'iki gitabo, iri kandi rifasha abayobozi mu nzego za leta, ndetse n'abakora mu mwuga w'ubucamanza kunoza akazi kabo batabera.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama cya kigali komvesheni senta, aho bicaye bazengurutse ameza hariho ibitambaro by'umukara, bafite uducupa tw'amazi duteretse imbere yabo kandi hari n'udukayi bari kwandika bakurikiye imbwirwaruhame y'umwe mu bayobozi bitabiriye inama.

Umudamu w'inzobe ufite imisatsi y'umukara, wambaye umwenda w'ubucamanza, ugaragazwa n'ikanzu itukura ndetse ifiteho ibara ry'umweru, uyu akaba akora mu rwego rw'ubucamanza, aho bakemura amakimbirane yaba hagati y'ibigo bitandukanye, abantu n'ibigo, hagati y'abantu ubwabo ndetse n'ayo mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose.

Umugabo wirabura wambaye umwenda w'abacamanza, ugizwe n'ikanzu y'umutuku ifiteho ibara ry'umukara ndetse n'umweru, yambaye kandi ishati y'umweru na karuvati' y'umukara, bigaragare ko ari mu nshingano arimo akora inshingano yarahiriye neza, yubahiriza kandi n'amahame agenga umwuga we.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bambaye imyenda yabugenewe yo mu nshingano zabo, aho igizwe n'ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi ririmo izuba rigaragaza neza idarapo ry'u Rwanda. Aho ari abacamanza mu nzego z'ibanze barimo kunga abaturage bagiranye amakimbirane.

Abayobozi ku rwego rw'akagari batowe n'abaturage mu kugira ngo bajye bahunga mu gihe bagiranye amakimbirane. Aho bambaye amakamba agizwe n'amabara agaragara mu ibendera ry'u Rwanda, ariyo icyatsi, umuhondo, ubururu, ndetse n'akazuba. Barimo kumva umugabo ushinjwa kugira uruhare mu makimbirane ndetse banamuhuza na mugenzi we ngo bakemure ibibazo bafitanye.

Igitabo gikubiyemo amategeko yose ahana ibyaha mu Rwanda ndetse n'itegeko nshinga aho amategeko yose yubahirizwa imbere mu gihugu aba yanditse, bityo buri munyarwanda aba afite inshingano zo kuyasoma, kuyamenya ndetse no kuyasobanukirwa, kugira ngo yirinde kuba yagwa mu byaha bitewe no ku badasobanukiwe icyo amategeko ategeka ku ngingo runaka.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara kimanitse ku muhanda nyabagendwa, gifashwe n'ibyuma aho kigaragaza ko ari mu igororero rya Gicumbi ahahanirwa abakoze ibyaha bitandukanye.

Umumama w'inzobe, wambaye umwenda w'abacamanza, ugizwe n'ikanzu y'umutuku, ifiteho utubara tw'umweru ndetse n'umukara, aho ari mu nshingano ze, yubahiriza amategeko n'amahame bigenga umwuga we w'ubucamanza, akiranura ndetse anarenganura abantu, bakoze ibyaha bitandukanye.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze hamwe bambaye impuzankano yagenewe imfungwa n'abagororwa, iruhande rwabo hari kuza imodoka y'umweru ibasatira, aho bicaye munsi y'igiti baganira n'abanyamakuru b'ibinyamakuru bitandukanye batanga ibyifuzo byabo ndetse n'ibyo babona bitagenda neza byakosorwa kugira ngo imibereho yabo muri gereza ikomeze kumera neza.

Abagabo benshi cyane bambaye impuzankano igaragaza ko ari imfungwa, bambaye amapingu ndetse banambaye udupfukamuwa dufite ibara ry'ubururu. Iruhande rwabo hari abashinzwe umutekano w'abo, bakora mu kigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa. Aho baza mu rukiko kugira ngo baburanishwe ku byaha bitandukanye bakurikiranyweho.

Urupapuro rwo mu gitabo cy'igazeti ya leta yo ku itariki makumyabiri z'ukwacyenda ibihumbi bin na cumi n' numunani ahakubiyemo amategeko atandukanye ndetse n'ingingo zihana ibyaha mu rwanda iki gitabo nicyo cyifashishwa n'abacamanza mu gihe bahana uwakoze amakosa atandukanye ndetse n'ibyaha hagendewe ku itegeko ryanditse muri iki gitabo.

Umugabo w'inzobe wambaye amadarubindi, wambaye kandi umwenda w'ubucamanza ugizwe n'ikanzu itukura ifiteho ibara ry'umukara ndetse n'umweru, yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara, bigaragarare ko ari mu nshingano ze yubahiriza amategeko n'amahame bigenga umwuga akora w'ubucamanza.

Urupapuro rugaragara mu gitabo cy'igazeti ya leta gikubiyemo amategeko atandukanye ahana ibyaha bitandukanye hano mu Rwanda, ndetse n'ingingo zitandukanye zigena imigende ndetse n'imitegekere y'igihugu, nk'uko risinywaho na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame.

Icyapa kirangisha uwitwa felicien KABUGA wasize akoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wigihumbi maganakenda mirongwikenda na kane, aho iki cyapa kigaragaza ko uwamubona yahembwa miliyoni eshanu z'amadolari y'amerika nk'igihembo cyo kuba yamubonye.

Umubyeyi w'umumama wambaye umwambaro wamabara atandukanye, ugizwe n'umweru, umutuku n'umukara, yambaye amataratara aritegereza.

Umugore w'imibiri yombi wambaye umwenda w'abacamanza, ugizwe n'ikanzu ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, bigaragare ko ari mu nshingano ndetse arimo kubahiriza amategeko yose agenga umwuga akora w'ubucamanza.

Abagabo babiri bahagararanye bambaye amakanzu y'umukara afiteho ibara ry'umweru, barimo guhererekanya inkoni nka kimwe mu bimenyetso cyo guhererekanya ububasha ubwo basimburaga mu mirimo bari bashinzwe y'ubucamanza.

Abakozi ba polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe ubutabazi bwihuse, bambaye impuzankano ibaranga igihe bari mu kazi ndetse bari kuzimya inkongi y'umuriro bifashishije ibikoresho byabugenewe, biba birimo umwuka wagenewe kuzimya umuriro.

Umukozi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, yambaye impuzankano ye yose y'akazi aho ari mu nshingano ku muhanda areba niba abayobozi b'ibinyabiziga barimo gukurikiza neza amategeko agenga umuhanda nk'uko biteganywa n'amategeko.

Umukozi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, yambaye impuzankano imuranga ari mu nshingano; aho arimo ahagarika ikinyabiziga ngo arebe niba cyujuje ibisabwa ngo kibe kigenda mu muhanda, ndetse n'umuyobozi wacyo afite ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo atware ikinyabiziga mu muhanda.

Abakozi ba polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe ubutabazi bw'ibanze, ubwo barimo bahugura abanyeshuri, uburyo ibikoresho bizwi nka kizimyamwoto byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro zikoreshwa, mu buryo bwo kugira ngo igihe habaye inkongi y'umuriro babe batanga umusanzu wabo mu kuzimya, bifashishije ibi bikoresho.

Igikoresho gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara kimanitse ku gikuta cy'inzu, kizwi nka kizimyamwoto, iki gikoresho cyifashishwa mu kuzimya igihe habaye impanuka y'inkongi y'umuriro, aho ibi bikoresho bisangwa ku nyubako zihuriramo abantu benshi nk'amasoko, insengero, amaduka n'ahandi.

Igikoresho kimanitse ku gikuta gifite ibara ry'umutuku kizwi nka kizimyamwoto, aho iki gikoresho cyifashishwa mu kuzimya igihe habaye impanuka y'inkongi y'umuriro, ibikoresho bisangwa ku mazu ahuriramo abantu benshi nk'amaresitora, amahoteli, insengero n'ahandi.

Icyuma kimanitse ku nyubako gifite ibara ry'umutuku cyagenewe kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe habaye impanuka nk'iyo. Iki cyuma kifitemo umwuka wifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro kandi iki cyuma gisangwa ku nyubako zihuriramo abantu benshi, kugira ngo cyifashishwe mu gihe haba impanuka nk'iyo.

Icyuma kizwi nka kizimyamwoto kifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze igihe habaye impanuka y'inkongi y'umuriro, iki cyuma cyifitemo umwuka ufite ubushobozi buzimya, gikunze kugaragara ku nyubako zihuriramo abantu benshi nk'amasoko, insengero, amahoteri, amashuri n'ahandi.

Igikoresho gikoze mu byuma, cyifashishwa mu kuzamuka mu ntera cyane cyane mu bikorwa by'ubutekinisiye ndetse n'ubwubatsi, aho cyifashishwa mu kuzamuka ku nyubako hejuru, iki gikoresho kandi kirambitse iruhande rw'imodoka nziza ifite amabara y'umukara ndetse rwegeretse ku nyubako ifite inzugi z'amabara y'umutuku.

Umukozi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, yambaye impuzankano yabugenewe mu gihe ari mu kazi, imbere ye haparitse imodoka ifite ibara ry'umutuku ndetse arimo kuvugana n'umuyobozi w'ibinyabiziga, areba niba yujuje ibyangombwa byose bimwemerera gutwara ikinyabiziga mu muhanda.

Abamotari benshi bahetse abagenzi, bategereje amabwiriza y'umupolisi kugira ngo bakomeze cyangwa se bategereze.

Icyuma kizwi nka kizimyamwoto gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, iki cyuma gifitemo umwuka uzimya umuriro, cyifashishwa mu gihe habaye impanuka z'inkongi y'umuriro hirya no hino ndetse kigaragara ku mazu menshi ahuriramo abantu benshi ndetse n'abandi bantu benshi bateranira nko mu nsengero, amasoko ndetse n'ahandi.

Nyubako ndende cyane y'igorofa iriho icyapa cy'ibara ry'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, imbere yacyo haparitse ibinyabiziga bitandukanye ndetse hari n'umurongo w'abaje gushaka serivisi, iyi nyubako ikoreramo polisi y'u Rwanda ku cyicaro gikuru, aho baba baje gushaka impushya zo gutwara ibinyabiziga batsindiye.

Umukozi wa polisi y'u Rwanda, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, yambaye impuzankano imuranga igizwe n'imyenda y'umukara ndetse inyuzemo uturango tw'icyatsi, aho aba ayobora ibinyabiziga, anareba niba byose byubahiriza amategeko agenga umuhanda nk'uko bikwiye kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hato.

Inyubako ndende cyane ifite amagorofa menshi isize amabara y'umweru ndetse n'umukara, hasi yayo haparitse imodoka y'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano rwa polisi aho kandi hari n'imodoka yindi y'umukara iparitse, aha akaba ari ahakorera polisi y'u Rwanda ishami rya Kigali n'ibiro bikuru byayo.

Ingabo z'u Rwanda ishami rya polisi mu mpuzankano yabo igizwe n'ingofero z'umukara, amashati y'umukara, amapantaro ndetse n'inkweto byose by'umukara, bafite ibikoresho bakoresha mu kazi kabo aribyo nk'imbunda n'ibindi. Inyuma yaho haparitse imodoka nini cyane ifite ihema ry'umweru ryanditseho ijambo UN, bigaraga ko bagiye mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku Isi.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'ingofero y'umukara, biriho ibirango by'umuryango FPR Inkotanyi, ubwo yiyamamarizaga kuba umukuru w'igihugu mu matora yabaye umwaka bihumbi na makumyabiri na kane, agenda azenguruka hirya no hino mu gihugu.

Umugabo ufite umusatsi urimo imvi yambaye ikoti y'umukara ishati y'umweru na karuvati y'umukara, imbere ye hateretse ameza hariho mudasobwa indangururamajwi ndetse n'icupa ry'amazi. Bigaragara ko bari gutanga imbwirwaruhame ku bantu bamukurikiye.

Icyapa kigaragaza abakandida bari bahatanye mu matora y'umwanya w'umukuru w'igihugu yabaye mu Rwanda, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ndetse n'amajwi bagize. Aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul KAGAME yatsinze amatora ku kigereyo cya mirongo cyenda n'icyenda n'ibice cumi na gatanu ku ijana.

Igitabo cy'igazeti kiba gikubiyemo amategeko ahana ibyaha mu rwanda ndetse agenga ibintu bimwe na bimwe cyifashishwa cyane cyane mu gihe cy'ubutabera ndetse n'ubucamanza arebwa niba umuturage uregwa ko afite aho ahuriye n'amategeko cyangwa se yakoze ibinyuranyije n'itegeko.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda y'ibara ry'umweru n'umukara, aho bateruye udusanduku twari twakusanyirijwemo amajwi mu gihe cy'amatora, bagaragaza ko nta majwi n'amwe asigayemo atabaruwe, ibi bikagaragaza imigendekere myiza ndetse no gutora binyuze mu mucyo.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, bitabiriye inama baganira bungurana ibitekerezo, harebwa icyakorwawe kugira ngo iterambere ry'umuturage rikomeze gushyirwa ku isonga. Bose bicaye bazengurutse ameza, imbere yabo hateretse indangururamajwi bifashisha mu gihe batanga ibitekerezo cyangwa inyunganizi, bungurana ibitekerezo muri iyi nama.

Abaturage b'ingeri zose, abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda iriho ibirango by'ishyaka rya giririni pati, riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, ubwo bari mu bikorwa byo kwamamaza umukandida w'iryo shyaka, mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Abagore benshi bambaye bikwije, bateze imishara bafashe ku ibendera ry'u Rwanda bazamuye akaboko, aho barimo kurahirira gukora neza inshingano nshyashya bahawe, batanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu ndetse no kuzamura ubukungu bwacyo.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wambaye ishati y'ikijuju ahererekanyije ikiganza na madamu Louse Mushikiwabo, umuyobozi w'ibihugu bya Afurika bikoresha ururimi rw'igifaransa, inyuma yabo hari ikirangantego cy'u Rwanda ndetse impande yabo bombi hari ibendera ry'u Rwanda.

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho yambaye kositime y'umukara n'ishati y'umweru, iruhande rwe hahagaze Madamu, Nyakubahwa Jeannette Kagame mu mikenyero y'ubururu n'agapira k'umweru. Iruhande rwabo kandi hahagaze Perezida w'urukiko rw'ikirenga, aho yambaye imyenda y'akazi arimo kwakira indahiro ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ubwo yarahiriraga kuyobora u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane nyuma yo gutsinda amatora.

Ikirango cyo mubara ry'umweru kizengurutseho inziga ebyiri hagati murizo nziga handitsemo amagambo ngo pariti sosho imberakuri. Hagati mu kirango harimo ururabo rwamabara y'umutuku n'icyatsi, rufashwe n'ikiganza cy'umuntu.

Icyumba cy'inama kinini cyane, gifite amabara menshi atandukanye, aho cyakoraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye ndetse bungurane ibitekerezo, bose bicaye neza ndetse imbere buri wese hari mudasobwa, imbere yabo kandi hahagaze umugabo wambaye ikositime n'amadarubindi, imbere ye hari indangururamajwi arimo kugeza yitabiriye inama, uruhare rwabo mu kuzamura iterambere ry'igihugu.

Abayobozi batandukanye ubwo bari bahuriye mu nteko ishinga amategeko baganira ku mishinga y'amategeko itandukanye banunguranaho ibitekerezo imbere ya buri umwe haridangurara amajwi akoresha mu gihe ashaka gutanga ibitekerezo cyangwa inyunganizi y'ibyumba byashyirwa ku murongo w'ibyigwa ndetse byakosorwa mu ngingo kugira ngo itegeko rizabe rinze kandi ritabangamiye abaturage.

Umubare munini w'abantu biganjemo abakuze aho batonze umurongo bitabiriye igikorwa cy'amatora yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ubwo bihitiragamo umukandida uzayobora igihugu muri manda yari iri gutorerwa. Imbere yabo kandi hari abakozi bashinzwe ibiro by'itora aho barimo kubafasha gutora neza binyuze mu mucyo.

Umuhanda wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga mu byerekezo byombi uri kunyuramo imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu ifite ibara ry'umuhondo, ipakiye imizigo itwikije shitingi y'umweru, iruhande rwayo kandi hari umuyoboro munini w'amazi wagenewe kunyuramo amazi gihe cy'imvura, hari n'akayira k'abanyamaguru.

Iyi modoka nini yo mu bwoko bw'ikamyo, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga mu byerekezo byombi, iruhande rw'umuhanda hari akayira kagenewe abanyamaguru, iruhande rwako kandi hari umuyoboro munini utwara amazi mu gihe k'imvura, ibi bikarinda ko umuhanda wakangirizwa n'ayo mazi y'imvura.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga mu byerekezo byombi ahagaragara imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo ifite ibara ry'umweru n'umuhondo ryifashishwa mu gutwara imizigo myinshi cyane cyane iyambukiranya ibihugu bikoroshya ubuhahirane hagati y'ibihugu ndetse bikananoza n'imitangire myiza ya serivisi

Ibinyabiziga bitandukanye birimo kugendera mu muhanda wa kaburimbo, ahazwi nko ku Kinamba, mu ruhande kandi hari utuyira twagenewe abanyamaguru, bakoresha hirindwa impanuka zo mu muhanda, hari kandi n'amapoto afasheho amatara amurikira umuhanda gihe cya nijoro, ibi bikoroshya imigendere mu muhanda hirindwa impanuka za hato na hato.

Imodoka nini yifashishwa mu gutwara imizigo hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara, aho itwara imizigo itari myinshi cyane ndetse yifashishwa cyane mu bikorwa by'ubuhinzi, mu kugeza umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ku isoko ndetse no kugura ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa muri uyu mwuga.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye bibisikana, aho harimo iyi modoka yifashishwa mu gutwara imizigo ndetse n'indi itwara mu bantu mu buryo bwihariye. Iruhande rwazo kandi hari akayira kagenewe abanyamaguru, karimo kugendwamo n'umugabo wambaye inkweto zifunguye.

Imodoka nini ifite ibara ry'ubururu, umweru, ndetse n'umukara yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zawo, izi zikaba zarakemuye ikibazo k'ingendo mu mugi wa Kigali ndetse bikanihutisha imitangire myiza ya serivisi z'ubwikorezi.

Umugabo ukora umwuga wo gutwara abagenzi abajyana mu bice bitandukanye by'igihugu, yifashishije ikinyabiziga cy'ipikipiki, abazwi nk'abamotari, aho bafasha mu koroshya ingendo ndetse n'ubuhahire nabo kandi bikabagirira akamaro bakaniteza imbere, bityo bikanazamura n'imitangire myiza ya serivisi cyane cyane mu bijyanye n'ingendo.

Amagare ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu koroshya ibikorwa by'ingendo ndetse n'ubuhahire hirya no hino mu gihugu. Aho bikoreshwa cyane n'abahinzi, n'aborozi bajyana umusaruro wabo ku masoko, cyangwa se bageza mu mirima ibikoresho bifashisha muri uyu mwuga.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga, kimwe gifite ibara ry'umutuku ikindi gifite ibara ry'umweru bisikana. Iruhande rwabyo hari ibiti byiza bikikije umuhanda byongera ubwiza bw'umuhanda, hari kandi n'amapoto ariho amatara acanira umuhanda mu gihe cya nijoro. Ibi bigafasha ingendo gukomeza nta nkomyi.

Ibinyabiziga by'amapine atatu bizwi nka rifani, byifashishwa mu gutwara imizigo hirya no hino mu gihugu. Aho byoroheje serivise z'ubwikorezi cyane cyane ku bacuruzi ndetse n'abahinzi. Aho zibafasha gutwara umusaruro wabo hirya no hino ku isoko, ndetse no kugeza ibicuruzwa hirya no hino hatandukanye mu buryo bworoshye.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto, amagare n'imodoka. Uyu muhanda ufite ubusitani bwiza cyane bugizwe n'ibiti by'imikindo ndetse n'umucaca wa pasiparume, harimo kandi amapoto ariho amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro mu rwego rwo korashya urugendo igihe cyose.

Imodoka nini cyane yo mu bwoko bwa fuso iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo rwagati ifite amabara y'umuhondo iyi modoka yifashishwa cyane cyane mu gutwara imizigo hibandwa ku bikoresho by'ubwubatsi nk'isima amabuye, umucanga, ibiti ndetse n'ibindi iruhande rw'umuhanda kandi hari akayira kagenewe abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza cyane burimbishije uyu muhanda.

Imodoka nini yifashishwa mu gutwara imizigo hirya no hino mu gihugu ifite ibara ry'umuhondo, umukara ndetse n'umweru, iyi modoka yifashishwa cyane cyane mu bikorwa by'ubwubatsi, aho itwara ibikoresho bikenerwa muri uy'umwuga nk'amabuye, ibiti, umucanga n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bakoresha umuhanda wa kaburimbo bajya mu ngendo zitandukanye, hahagaragara igikamyo kinini cyane gifite ibara ry'umweru n'ubururu gitwaye imizigo myinshi igizwe na matiyo, iruhande rwayo kandi hari umunyamaguru urimo kugenda asunika igare rihetse amagi.

Umumotari wambaye umwenda umuranga iyo ari mu kazi, ugizwe n'ijire ifite ibara ry'ubururu n'umuhondo ndetse n'ingofero y'ubwirinzi yabugenewe, arimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwe hari kugenda umugabo ucunze ingorofani yifashisha mu gutwara imizigo, agereza abakiriya ibicuruzwa hirya no hino.

Imodoka nini cyane ifite ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara, ikoreshwa mu gutwara abagenzi hirya no hino mu mujyi wa Kigali mu buryo bwa rusange, aho yakemuye ibibazo by'ingendo hirya no hino mu mujyi ndetse no mu nkengero zawo, ubu abaturarwanda bajya ndetse bakava ku kazi kabo ntakomyi bifashishije izi modoka.

Iyi modoka ifite ibara ry'umukara n'umweru itwara abagenzi mu buryo bwa rusange iparitse impande y'umuhanda wa kaburimbo ahantu habugenewe. Imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi ibavana cyangwa ibajyana hirya no hino mu duce dutandukanye tw'umujyi wa kigali ndetse no mu ntara. Bikoroshya imihahirane ndetse n'imigenderanire hirya no hino mu gihugu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo ibinyabiziga bitandukanye bijya mu cyerekezo kimwe, harimo imodoka nini cyane yo mu bwoko bwa kwasiteri itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'indi bisi y'ikigo cya interinasiyonari gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, izi modoka zose zifashishwa mu koroshya ingendo hirya no hino mu gihugu, ibi bikoroshya ubuhahirane ndetse n'ubutwererane imbere mu gihugu.

Icyanya cyahariwe guparikamo imodoka mu mujyi wa Kigali kizwi nka Nyabugogo aho imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'izitwara abagenzi mu buryo bwihariye ziparika mu gihe zitegereje abagenzi. Ibi bigafasha imitangire myiza ya serivisi y'ingendo n'ubwikorezi hirya no hino mu mujyi wa Kigali te no mu gihugu.

Umuhanda munini wa kaburimbo nyabagendwa uri kunyumo ibinyabiziga bitandukanye higanjemo moto, imodoka n'ibindi, aho ari kunyura imodoka nini cyane itwara imizigo yifashishwa mu bikorwa by'batsi, nko gutwara isima, amazi ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze bikenerwa muri uyu mwuga.

ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo imodoka na moto biparitse imbere y'iduka ryanditseho ngo yes phone techno

Umuhanda wa kaburimbo ugenderamo ibinyabiziga mu byerekezo byombi, harimo moto igendera ku mapine atatu izwi nka rivani yifashishwa mu gutwara imizigo. Iruhande rwayo kandi hari umugabo usunitse igare ripakiye umufuka, ibi byose bikaba byifashishwa mu koroshya ubwikorezi ndetse n'ubuhahiranire hagati y'uduce dutandukanye tw'igihugu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye bigendera mu byerekezo byombi, uyu muhanda ukikijwe n'ubusitani bwiza, ndetse iruhande rwawo hari inzira yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, ibi bikagabanya impanuka zo mu muhanda, aho abagenzi bagendera ku ruhande rw'umuhanda ntibivange n'ibinyabiziga.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hirya no hino mu gihugu, ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, aho izi modoka zoroshya ingendo ku bantu bava cyangwa bajya mu bice bitandukanye by'igihugu, bajya gukora imirimo yabo ya buri munsi. Nka kimwe mu bisubizo byihutisha ingendo, harimo gufashisha izi modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo imodoka mu byerekezo bitandukanye, ahagaragara imodoka ifite ibara ry'umweru n'umukara ibisikana n'igikamyo kinini cyane gifite ibara ry'umuhondo, aho iyi modoka yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange hirya no hino mu gihugu, iruhande rw'umuhanda kandi hari umuyoboro mugari unyuramo mazi mu gihe cy'imvura, ibi bikarinda ko umuhanda wakwangirizwa n'amazi.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga bari kugenda mu mujyi rwagati, iruhande rw'amazu akorerwamo ubucuruzi mu mujyi wa Kigali, iruhande rw'umuhanda kandi hari ikibuga kinini cyagenewe gukorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi nk'ubucuruzi bw'ibiribwa, inkweto imyambaro n'ibindi.

Umuhanda munini wa kaburimbo, unyuramo bininyabiziga mu byerekezo byombi, urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga. Hagaragara moto zibisikana n'imodoka yo mu bwoko bwa dahatsu, byifashishwa mu gutwara imizigo, iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo kandi hari utuyira twagenewe abanyamaguru, bakoresha uyu muhanda.

Imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, izi modoka aho zifashishwa cyane cyane n'abahinzi ndetse n'aborozi mu kugeza umusaruro wabo ku isoko, uretse kandi ko zifashishwa n'abacuruzi mu gutwara ndetse no kugeza ibicuruzwa hirya no hino mu gihugu.

Imodoka nini cyane ifite amabara y'umukara n'umweru n'ubururu iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, imbere yayo hari abamotari batwaye amapikipiki bigaragara ko urujya n'uruza rw'abagenzi muri iyi mihanda ari nta makemwa, iruhande rw'umuhanda kandi hari umuyoboro mugari wagenewe gutwara amazi mu gihe cy'imvura ibi bikarinda umuhanda kwangirizwa nayo.

Abamama bicaye batuje baganira impande y'ibiti muri jaride y'icyatsi itatsemo amabara y'umweru.

Igikorwa remezo cy'ikibuga gikinirwaho umukino w'amaboko uzwi nka basikete aho kizengurutswe n'ubusitani bwiza cyane, gikurura amabengeza ndetse n'amahumbezi ibi bikagaragaza neza ubwiza bw'ikibuga, aho kandi hari amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi anyuze kuri iki kibuga ku buryo imikino ishobora kwakirwa mu masaha ya nijoro.

Ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko uzwi ku izina rya tenisi, aho abantu babiri baba bakina bahererekanya agapira bakarenza fire iri hagati yabo, uyu mukino ukaba ari ingirakamaro ku bawukina, kuko ubabyarira inyungu ndetse ukanabarinda indwara zitandura nka diyabete n'izindi.

Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, gifite ibara ry'icyatsi ryanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo. Kiri neza neza mu ihuriro ry'umuhanda rwagati, aho kigaragaza ibyerekezo bitandukanye by'imihanda ndetse n'aho bibabyerekeza ndetse n'ibilometero birimo kugira ngo ugere kur'ibyo birango.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru hanyuzemo akambi kigonze gafite ibara ry'umukara, iki kiyobora abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda kibamenyesha ko batemerewe guhindura icyerekezo bari kugendamo mu muhanda.

Icyapa gifite ishusho ya mpande enye gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ndetse n'inyuguti ya P iciyemo akarongo, kibwira abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda ko aho hatemerewe guparikwa ibinyabiziga yaba mu gihe gito cyangwa igihe kirekire.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse hayanyuzemo n'utwambi tw'umukara, ucishijemo akarongo gatukura hagati, kiyobora abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bakoresha umuhanda kibamenyesha ko umuhanda ujya mu cyerekezo kimwe gusa.

Icyapa kigaragara ku muhanda wa kaburimbo, gifite ishusho ya mpande enye gifite umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'ubururu ndetse gishushanyije inyuguti ya pa mu ibara ry'umweru. Kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda, ko aho bemerewe kuhaparika mu gihe gito cyangwa kirekire.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru, gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru bunyuzemo utwambi tubiri tujya mu byerekezo bitandukanye, iki cyapa kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda, ko umuhanda unyurwamo mu byerekezo byombi bitandukanye.

Icyapa kinini cyane, kimanitse ku muhanda wa kaburimbo nyabagendwa, gifite ishusho ya mpande enye, n'umuzenguruko w'umukara, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda ko binjiye mu karere ka Karongi.

Ibyapa biri ku muhanda munini nyabagendwa wa kaburimbo bifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse hashushanyijemo n'ibara ry'umukara. Iruhande rw'ibyapa hari ubusitani bwiza cyane bukikije umuhanda, ibyo bigakomeza kugaragaza ubwiza bw'umuhanda, ndetse bikagaragaza n'isura nziza y'isuku mu Mujyi muri rusange.

Icyapa cyo ku muhanda wa kaburimbo kigizwe n'umuzenguruko w'uruziga rufite ibara ritukura n'ubuso bw'umweru, runyuzemo utwambi tubiri tunyurana, uyobora abayobozi b'ibinyabiziga ubamenyesha ko umuhanda ujya mu byerekezo bibiri.

Icyapa cyo ku muhanda gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru cyanditsemo imibare mirongo itandatu m',ibara ry'umukara ,kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda ko umuvuduko wemewe gukoreshwa muri uyu muhanda ari kilometero mirongo itandatu ku isaha.

Icyapa kinini kiri ku muhanda wa kaburimbo, kiri mu ibara ry'umuhondo rikoze ishusho ya mpande enye. Kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko umuvuduko ntarengwa muri uyu muhanda ari kilometero mirongo itatu ku isaha. Kandi ko imbere hari kamera ishinzwe kugenzura niba ibinyabiziga biri kubabahiriza amategeko yo mu muhanda nk'uko biteganywa.

Umuhanda munini wa kaburimbo nyabagendwa, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, iruhande rw'umuhanda hari umwanya ugenewe guparikamo ibinyabiziga mu gihe gito cyangwa kirekire, hagaragazwa n'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditsemo inyuguti ya P mu ijambo ry'umweru, bigaragaza ko hari umwanya wagenewe guparikamo ibinyabiziga mu gihe bitegereje abagenzi.

Ibyapa bimanitse ku muhanda wa kaburimbo, igifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse unyuzemo n'akambi kigonze mu ibara ry'umukara, kamenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda ko batemerewe gukata bajya mu ruhande rw'iburyo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umukara gifite ubuso bw'umuhondo ndetse hagati hanyuzemo imirongo ishushanyije amabara y'umukara, kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda ko mu muhanda bari kugendamo hashamikiye undi muhanda mu ruhande rw'ibumoso, ibi bigatanga amakuru ahagije hiirindwa impanuka zaterwa no kutamenya ibiri imbere mu muhanda.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru gikoze mpande eshatu cyanditsemo ijambo mani ati wake kiyobora abayobozi b'ibinyabiziga kibabwira ko imbere gato mu muhanda bari kugendamo hari gukorerwa ibikorwa by'ubwubatsi bityo bakagomba kwigengesera kugira ngo birinde impanuka.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo kiyobora abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda, kibabwira ko imbere hari ikorwa ry'umuhanda, bityo bagomba kugabanya umuvuduko kugira ngo birinde impanuka. Icyi cyapa kigaragara ku mihanda ya kaburimbo gifite ubuso bw'umweru ndetse n'umuzenguruko uri mu ibara ry'umutuku.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu zubatse ku mudugudu, zubatse kandi zikurikije igishushanyo mbonera nk'uko byatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire mu Rwanda, izi nzu zifite igisenge by'umutuku, zisize amarangi ndetse zigerwaho n'ibikorwa byose remezo by'ibanze nk'amashuri, imihanda, amazi n'ibindi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ndende cyane ifite amagorofa menshi isize amarangi y'umweru, iyi nzu ihererewe ku muhanda wa kaburimbo neza neza, ku buryo abaza gushaka serivisi zitandukanye kuri iyo nyubako bitabagora ahubwo bahagera mu buryo bworoshye; hari kandi n'umwanya munini ugenewe guparikamo ibinyabiziga ku ba bifite.

Ibinyabiziga byinshi bitandukanye biparitse imbere y'inyubako zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho imbere ya buri muryango hamanitse ibyapa bigaragaza ibicuruzwa bibarizwamo imbere mu nzu, aha kandi abakiriya bafite umwanya bagenewe guparikamo ibinyabiziga byabo mu gihe baje guhaha muri aya mamyubako.

Inyubako nziza ifite igisenge cy'umutuku ikoreramo Hiltop hotel, iyi hotel ikaba itanga serivisi zitandukanye, harimo kwakira umubare w'abantu benshi bahurijwe hamwe, kwakira ibirori, serivisi z'amacumbi, serivisi za resitora ndetse n'izindi, ikaba iherereye neza neza ku muhanda wa kaburimbo munini, aho byorohera abaza gushaka serivisi muri iyi hoteli kuhagera nta ngorane.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ndende y'amagorofa menshi ifite ibara ry'umweru, ikijuju ndetse n'umutuku iherereye i Kigali mu mujyi wa Kigali, inzu ikaba ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse ikaba ifite n'igice cyagenewe gucumbika ku bakeneye amacumbi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane ifite igisenge cy'umutuku, isize amarangi y'umweru, iyi nzu ikaba iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, aho ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibiti by'imbuto bitanga umusanzu mu kurwanya imirire mibi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inyubako ndede ya etage ikorerwamo ibikoro bitandukanye by'ubucuruzi ifite amagorofa menshi, imbere yayo haparitse ibinyabiziga bitandukanye urundetse n'urujya n'uruza rw'abantu baza gushaka serivise zitandukanye zitangirwa muri iyi nyubako, ibi bikanoza imitangire ya serivise ndetse bikanateza imbere igihugu n'abaturage muri rusange.

Inzu nyinshi cyane zubatswe mu cyanya cyagenewe guturwamo giherere mu mujyi wa kigali, aho abaturage bubaka bagendeye uko amategeko abiteganya binyuze mu gishushanyo mbonera kiba cyaratanzwe. Izi nzu kandi ziba zituye ku mudugudu, aho zigerwaho n'ibikorwa remezo by'ibanze nk'imihanda, amazi, umuriro, amashanyarazi ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza cyane igizwe n'amagorofa menshi, ifite amabara y'umweru, aho yanditseho ijambo Elizabeth Golf Apartment, iyi nyubako ikaba ari iy'amacumbi abantu bakodesha haba igihe gito cyangwa se igihe kirekire bakayibamo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, kigaragaza ko imbere muri metero ijana hari ibiro by'Akagari ka Nyabugo, kigaragaza kandi Umudugudu, Akagari ndetse n'Umurenge urimo, ibi bigafasha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bakoresha umuhanda, kumenya ibyerekezo by'inzego z'ubuyobozi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane ya etaje ifite amagorofa abiri, iherereye mu mugi wa Kigali, aho itanga serivise zo gucumbikira abantu ibizwi nka apatimenti, aho umuntu ukeneye gucumbika agenda akishyura amafaranga runaka, hanyuma agahabwa iby'ibanze nkenerwa kugira ngo acumbike.

Amazu menshi cyane afite ibisenge by'umutuku ndetse yubatse neza ku murongo akurikije amategeko agenga imyubakire nk'uko byatangajwe mu gishushanyo mbonera cy'umujyi, aho izi nzu zubatse ku mudugudu zigerwaho n'ibikorwa byose remezo nk'amazi meza, imihanda, umuriro w'amashanyarazi n'ibindi.

Ishyamba ryiza cyane ririmo ibiti bitoshye by'icyatsi kibisi, birimo udutebe dutandukanye twicarwaho n'abatembera mu Mujyi wa Kigali, baremo ubwiza ndetse bumva n'umuyaga w'uyu mujyi, harimo kandi utura twagenewe abanyamaguru batembera muri iyi pariki, hari kandi n'utusanduku twagenewe gukusanya imyanda ituruka ku bintu abantu batandukanye baba bagiye bakoresha, igihe batembera muri iyi pariki.

Inyubako nyinshi zubatse ku murongo, ahari icyaya cyagenewe inganda mu Rwanda hazwi nk'i Misoro, aha hakaba hari ibikorwa bitandukanye by'iterambere cyane cyane hibandwa kuri gahunda y'ibikorerwa inaha mu gihugu, kugira ngo bigiteze imbere ndetse bizamura n'iterambere ry'abaturarwanda.

Icyapa cya mande enye, kiri mu muhanda wa kaburimbo, gifite ibara ry'umweru umuzenguruko w'umukara, ndetse n'ubuso bw'umweru bwanditseho amagambo ka ka cumi na kane, n'ibara ry'umukara, ibi biyobora abayobozi b'ibinbiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda kibamenyeshaje ko bari kugenda mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umuhanda numero ya cumi na kane.

Imodoka nyinshi ziparitse mu mwanya wabugenewe imbere y'inzu zikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, nk'uko bigaragazwa n'ibyapa bimanitse imbere y'iyi nzu, aha akaba ushobora kubona ibikoresho byo mu nzu imyambaro ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako nyinshi cyane zubatse ku murongo hakurikizwa amategeko y'imyubakire agena imyubakire nk'uko bigaragazwa n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Inzu zifite ibisenge byinshi bifite amabara atandukanye, aho abaturage bagerwaho n'ibikorwa remezo byose nk'amazi, umuriro, amashuri n'ibindi.

Abayobozi b'ibinyabiziga barimo gukoresha umuhanda wa kaburimbo unyura munsi y'ikiraro ahazwi nko ku kinamba, iki kiraro kikaba cyifashishwa mu kugabanya umuvundo w'ibinyabizigajya mu byerekezo bitandukanye, aho ibijya mu cyerekezo kimwe bikoresha umuhanda umwe, hanyuma n'bijya mu kindi bigakoresha umuhanda wo hejuru ku kiraro.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga mu byerekezo bitandukanye iruhande rw'umuhanda hari ahagenewe guparikwa ibinyabiziga mu gihe gito cyangwa kinini mu gihe birimo bifata cyangwa bikuramo abagenzi iruhande rw'umuhanda kandi hari ubusitani bwiza bw'indabo bugaragaza ubwiza bw'umuhanda hari kandi n'amatara amukira umuhanda mu gihe cya nijoro ibi bigatuma serivisi z'ubwikorezi zikomeza gutangwa no mu gihe cya nijoro nta nkomyi.

Amasangano y'imihanda ya kaburimbo, ahurira imodoka ziva ndetse n'izijya mu byerekezo bitandukanye, iruhande rwawo hari ubusitani bwiza cyane bukikije umuhanda, hari kandi amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, ibi bigatuma ingendo zikomeza no mu gihe cya nijoro nta nkomyi.

Rimwe mu masangano y'imihanda ya kaburimbo aho ibinyabiziga biva mu byerekezo bitandukanye bihurira, aha kandi hari ibirango biyobora abayobozi b'ibinyabiziga, ibi bikagabanya impanuka zo mu muhanda hari kandi n'ubusitani bwiza cyane bukikije imihanda bwongera ubwiza bwayo.

Umuhanda munini wa kaburimbo ugabuyemo kabiri, unyurwamo n'imodoka mu byerekezo bitandukanye, iruhande rw'umuhanda hari ishyamba rinini cyane rigaragaza ubwiza bw'umujyi ndetse rizana n'umwuka mwiza, iruhande rw'umuhanda kandi hari inzira yagenewe kunyurwamo n'amazi mu gihe cy'imvura, ibi bigafasha gusigasira umuhanda hirindwa ko wakangirizwa n'amazi y'imvura.

Amasangano y'imihanda ya kaburimbo anyuramo ibinyabiziga bijya mu byerekezo bitandukanye, aho hari ubusitani bwiza cyane bukikije uyu muhanda, hagati kandi hari amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro ibi bikoroshya ingendo igihe cy'amasaha yose nta nkomyi.

umuhanda munini wa kaburimbo, unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, haba ibitwara abantu cyangwa se ibitwara imizigo. Uyu muhanda ukikijwe n'ubusitani bwiza, ndetse mo hagati hanyuzemo ubusitani bugabanya ibyerekezo bibiri by'umuhanda, aho hari amapota acanira umuhanda mu gihe cya nijoro. Ibi bikoroshya imitangire ya serivisi y'ingendo ndetse akazi kagakomeza amasaha yose.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyuramo imodoka zijya mu byerekezo bitandukanye, aho uri kunyuramo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, iruhande rw'umuhanda hari ubusitani bwiza ndetse n'utuyira twagenewe abanyamaguru, hari kandi n'amapoto afashe amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, ibi bikoroshya serivisi z'ubwikorezi yaba ubw'abantu n'ubw'ibintu mu masaha yose.

Icyapa cyo ku muhanda gifite ishusho ya mpande enye, gifite umuzenguruko w'umukara, cyanditsemo nimero y'umuhanda, kiyobora abayobozi b'inyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda, kibamenyesha agace barimo kugendamo, ibi bigafasha mu koroshya ingendo ku batazi cyangwa se kubarangira abandi hirya no hino mu mujyi wa Kigali.

Utuyira twagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru bakoresha umuhanda hirya no hino mu gihugu, aho abayobozi b'ibinyabiziga bagera bakagabanya umuvuduko, bakemerera abanyamaguru kwambuka, ibi bikagabanya impanuka za hato na hato mu muhanda ndetse bigatanga n'umutekano usesuye ku bakoresha umuhanda bose.

Ikiraro kinini kinyura hejuru y'umuhanda giherereye ku kinamba mu mujyi wa kigali; ahakoreshwa ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abanyamaguru; ibi bikagabanya akavuyo mu muhanda, aho imodoka zijya mu cyerekezo kimwe zinyura mu muhanda umwe ndetse n'izijya mu kindi zikanyura mu wundi muhanda.

Hirya no hino mu mihanda ya kaburimbo hari utuyira twagenewe abanyamaguru bambukiramo igihe bakoresha umuhanda, aha iyo abayobozi b'inbiziga bahageze bategetswe kugabanya umuvuduko bakareka abanyamaguru bakambuka, ibi bikagabanya impanuka za hato na hato zo mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo myinshi mu ibara ry'umuhondo, iruhande rwaho hari ubusitani bwiza. Hari kandi icyuma kiriho kamera, gishinzwe kugenzura umutekano mu muhanda ko urimo kubahirizwa n'ibinyabiziga bitandukanye. Hari kandi amapoto ariho amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, bityo ingendo zigakomeza no mu gihe cya nijoro nta nkomyi.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga mu byerekezo byombi, uri kunyuramo imodoka ifite ibara ry'umutuku n'umukara, aho uyu muhanda kandi ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane burimbisha uyu muhanda. Hari kandi n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, bityo ingendo zigakomeza nta nkomyi.

Inyubako zubatse hakurikijwe igishushanyo mbonera, aho abaturage baba bagomba gutura ku Mudugudu kuri metero zakaswe hagendewe ku gishushanyo mbonera, iruhande rw'umuhanda kandi hari amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi awugeza hirya no hino mu ngo, aho izi ngo zigerwaho n'ibikorwa byose by'ibanze nk'imihanda, amashuri, amavuriro, amazi meza n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, harimo imodoka ndetse n'amagare biri kugenda byubahiriza amategeko y'umuhanda, iruhande rwaho kandi hari akayira kagenewe abanyamaguru, kubatswe hakoreshejwe amapavi ndetse hari n'amapoto atwara umuriro amashanyarazi, ndetse n'andi ariho amatara amumurikira umuhanda mu gihe cya n'ijoro. Ibi bikoroshya serivisi z'ubwikorezi ndetse n'umutekano usesuye.

Umuhanda wa kaburimbo ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abanyamaguru mu ngendo ndetse n'ibikorwa byabo bya buri munsi, aho uyu muhanda ufite ubusitani bwiza cyane ndetse ukikijwe n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro bityo ingendo zigakomeza mu mutekano usesuye.

Amasangano y'umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga ndetse n'abantu mu buryo butandukanye, bajya cyangwa bava mu kazi kabo. Hagaragara ibirango bitandukanye biyobora abakoresha umuhanda. Iruhande rw'umuhanda kandi hari ubusitani bwiza cyane buwukikije, bukarimbisha umujyi. Hari kandi n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, ibi bigatuma ingendo zikomeza mu mutekano usesuye mu gihe cya nijoro.

Umuhanda munini wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, hari igikamyo kinini gitwara imizigo kizwi nka rukururane, aho kijyana imizigo kiyijyana hirya no hino mu gihugu cyane cyane kifashishwa mu bucuruzi bwambukiranya imipaka, iruhande rw'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane burimbisha umujyi ndetse n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro.

Ikiraro kiri mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko ku Kinamba, aho imihanda ibiri inyuranaho umwe unyura munsi y'undi; bikoroshya ingendo ndetse bikagabanya n'akavuyo ko mu muhanda, rimwe na rimwe gashobora no gutera impanuka, bitewe n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga.

Ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo ijya mu byerekezo bitandukanye, ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane birimbisha uyu muhanda, hari kandi amapoto afasheho amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, hari kandi n'amapoto yashyizweho kamera zigenzura ko abakoresha umuhanda bari kubahiriza amategeko awugenga nk'uko bikwiriye.